Icupa rya kizimyamwoto; rikaba rifite amabara y'umutuku, ubururu, umweru ndetse n'umukara, rikaba rifite aho rihagaze rikaba nta kintu riri gukora.

Umugabo afite indangururamajwi arimo arabwira abantu bari mu cyumba cy'inama. Harimo abantu batandukanye, bari kuganira kuri gahunda zinyuranye. Ariko ugereranyije ukareba n' abayobozi bari hano, harimo umuyobozi minisitiri w' umuco na siporo. Ubifite mu nshingano.

Mu cyumba cy'inama hicaye abantu batandukanye, abagabo, abagore, imbere yabo hateretse amazi, inyuma y'icyo cyumba hari icyapa cyanditseho ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere.

Abayobozi batandukanye, bicaye bafite insanganyamatsiko barimo baganiraho, babateguriye amazi, abandi bafite icyayi, aho bakurikiye uretse ko bamwe bari gusoma ibitabo bitandukanye, biragaragara ko hari insanganyamatsiko runaka bari kuganiraho.

Yafashwe ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatanu, bibiri na cumi na karindwi. Arimo arasuhuza abantu bicaye mu myanya y'icyubahiro. Biragaragara ko ari abayobozi. Bicaye bari kumwe n'ingabo z'igihugu, abambaye umwambaro w'ingabo z'igihugu. Hari abaturage benshi.

Akabutike gahagarariye emutiyeni Rwanda gacuruza amayinite amakarita amasimukadi gashobora no kugufasha kuri serivisi z'indi wawukenera kuri emutiyeni mobayire mani iyi nikiyoswe ushobora gusangamo serivisi za emutiyeni muga mobayire mani.

Umuntu ugaragara nk'umuyobozi ahagaze imbere y'abantu bigaragara ko bamuteze amatwi afite indangururamajwi. Imbere ye hari amahema manini ariko uburyo ateguyemo afite atatse mu buryo bw'amabara y'ibendera ry'igihugu, hirya ye hari abantu bagaragara nk'abashinzwe umutekano bari kugenda bashyira abantu ku murongo.

Hari umuyobozi uhagaze imbere ufite indangururamajwi biragaragara yuko afite abantu ari kubwira, ahantu ahagaze hari icyapa kigaragaza ko ari ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere.

Aha ni mu cyumba cy'inama, hicayemo abantu batandukanye, bicaye mu buryo bw'urukiramende, uhagaze imbere yabo yagerageje kwandika ndetse agerageza kugaragaza ibyo ari gukora ibyo arimo.

Hari ibinyabiziga hari imodoka, hari moto ndetse baragaragaza ko hari irembo. Hari uko wakwinjira ku irembo bari kugaragaza uburyo wakwiyandikisha ugiye gukorera uruhushya rwa burundu rw'ikinyabiziga.

Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, kijya gifata umwanya wo kumenyekanisha igihe cyo gusora, kigakangurira n'abantu kugira ngo amatariki atabafata, nk'aha bari kwerekana ko ari umunsi umwe usigaye, kugira ngo abantu bamenyekanishe kandi bishyure imisoro, bagaragaza ko ari igihembwe cya kane, tariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri na kane ibi bifasha abasora gukora.

Iki ni icyapa cy'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro kirimo kiramenyesha abagenerwabikorwa bacyo ko hasigaye umunsi umwe wo kumenyekanisha imisoro, ibi bikunda gukoreshwa bari guhwitura abantu kugira ngo bakore bihuse batazacibwa amande.

Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, imbere ye hari indangururamajwi imufasha kugeza ijambo ku mbaga y'abantu benshi iri imbere ye, bakurikiye icyo ari kubabwira.

Ni ikirango cy'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, ni ikigo gikunda kwifashishwa gikusanya imisoro y'imbere mu gihugu ndetse gishinzwe no gusoresha n'ibyinjira mu gihugu, ni ikigo kigira uruhare mu iterambere ry'igihugu kuko amafaranga yose yinjira mu gihugu aca muri iki kigo.

Ndabona abantu bagenda abandi bagarukana, ni urujya n'uruza rw'abantu imbere y'aho hari inyubako nini iburyo n'ibumoso, hanyuma uyu muhanda ntago ari uwa kaburimbo ngo ugendwamo n'ibinyabiziga, hanyuma ni inzira igaragara ko ikunda gukoreshwa n'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo cyangwa se w'umukara uri gukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye, bimwe muri byo ni amagare abiri ahetse abagenzi ikindi nii ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru cyangwa se ikamyo kikoreye inyuma imizigo bashumikishije itente cyangwa se igitambaro cy'ubururu.

Hano bari kugaragaza ibipimo by'umusoro w'ubutaka buriho iyi inyubako uko biba biteye bari kugerageza basobanura mu ijanisha ahovuga ko zeru n'ibice bitanu ku ijana by'agaciro ku isoko k'inyubako n'ak'ikibanza byagenewe guturwamo ndetse bakagaragaza na zero n'ibice bitatu by'agaciro ku isoko ku nyubako n'ak'ikibanza byagenewe ubucuruzi.

Ubusanzwe mu gihugu hari minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo bajya bashingira ku iteka rya nyakuhwa perezida wa repubulika, hanyuma bakagena iminsi ya konji cyangwa se yo kudakora y ikiruhuko, nk'ubu ngubu ku itariki makumyabiri nagatandatu z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri nakabiri batanze umunsi wakonje, aba ari umunsi uba noheli yaraye ibaye.

itangazo rigaragaza iminsi y'ikiruhuko rusange riba ryashyizwe hanze na Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo, aho bagaragariza abantu iminsi yo gukora n'iminsi itari iyo gukora, aha bagaragaza ko tariki ya makumyabiri na gatandatu Ukuboza bibiri na makumyabiri na kabiri ari umunsi wa konje, aba ari umunsi ukurikikira Noheli, kuwa mbere tariki ya kabiri Mutarama bibiri na makumyabiri na gatatu ni' umunsinsi rusange wa konji.

Inzu ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali Kimironko kwa Sekimondo ifite ibyumba bitatu birarwamo n'ibindi byumba bitatu by'ubwogero muri buri cyumba hakabamo akantu kabikwamo imyenda ikodeshwa ibihumbi magana atatu y'u Rwanda.

Ubu ni uburyo bwo gushaka umukozi, hari icyapa kigaragaza aradibi. Aradibi rero ni ikigo cy'igihugu cy'iterambere bari kugaragaza ko bashaka umukozi, hanyuma bari kugaragaza urwego rw'umukozi bakeneye nibyo agomba kuba yujuje.

Ndabona amazu y'ubucuruzi ayo mazu ku muryango hari ibicuruzwa bitandukanye bijyanye n'ibikorerwa muri ayo mazu, imbere y'ayo mazu haparitse imodoka, ku rundi ruhande hari haparitseho moto, ku rundi narwo hariho imodoka, inyuma y'ayo mazu urabona hakorerwa ibindi bintu bitandukanye.

uyu ni umukozi w'irembo ari gukoresha mudasobwa ari muri serivisi z'irembo yambaye umupira uriho ibirango by'irembo biragaragara ko ari kugaragaza anatanga serivisi z'irembo arikuzisobanurira abantu

Ipoto y'amashanyarazi ndetse n'inyubako iri inyuma y'iyo poto, hirya y'iyo nyubako hari andi mazu menshi menshi ahagaragara ndetse n'ibiti, biragaragara ko kano ari agace abantu batuyemo.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, hari urujya n'uruza n'abantu , rw'abantu hari ibinyabiziga, abantu bari kunyuranamo hari imisozi miremire, imbere yaho hari amatara yo ku muhanda, ndetse imodoka ziragenda na moto ziragenda ndetse n'abagenzi bari kunyuranamo, hakurya musozi hari amazu atuwe.

Ndabona ipoto y'amashanyarazi ifatiyeho amasinga atandukanye, impande z'iyo poto ndabona ibyatsi bitandukanye, iburyo ndetse n'ibumoso bw'icyo giti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, hari n'ibyapa biyobora abagenzi aho bacana amatara akaka umwanya muto abagenzi bagatambuka cyangwa imodoka zituruka mu cyerekezo kimwe cy'umuhanda akaba arizo zibanza guhita izindi zihagaze.

Ni umuntu uririye iyi ipoto y'amashanyarazi wambaye imyambaro y'abantu bize amashanyarazi ari hejuru yambaye ingofero yabigenewe yambaye inkweto zabigenewe ndetse n'umugozi umufasha yaziritse ku giti cy'ipoto y'amashanyarazi.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, harimo moto zitwara abagenzi, ku ruhande rwo haruguru, haparitse imodoka, ku muhanda nanone hari ipoto y'amashanyarazi, iriho icyapa cya Airtel, Airtel ni ikigo gikorera mu Rwanda, gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, bari kuvuga ko wakohereza, ukanakira amafaranga.

Ndabona ipoto y'amashanyarazi iriho n'itara amwe yo ku muhanda, ndabona ibyatsi, ibiti, ndabona n'inyubako ndetse na matela zigera kuri zirindwi zegetse kuri iyo poto y'amashanyarazi, bigaragara ko hirya hano hantu tutari kubasha kureba neza hari amazu y'ubucuruzi.

Hari inzu imbere yaho hari ipoto y'amashanyarazi. Imbere yaho hari harimutaka uri mu birango bya eyateri. Muri uwo mutaka yicayemo umuntu uri mu birango bya emutiyene. Biragaragara ko imbere y'iyo nzu hatangirwazwa serivisi zo gucuruza amafaranga yo guhamagara.

Ndabona ibyatsi nkabona ibiti bibiri birebire by'amapoto y'amashanyarazi hanyuma munsi yibyo hirya'ibyo biti nkahabona inzu imbere y'ibyo byatsi nibyo biti hari inzira nyabage, inzira nyabagendwa y'abanyamaguru hanyuma kurundi ruhande biragaragara ko hari umuhanda wa kaburimbo nubwo utagaragara neza ariko hari utubuye tugaragaza yuko ari umuhanda.

Ipoto y'amashanyarazi, amazu yo guturamo, inkuta z'amabuye ndetse n'ibiti. Nibyo biri kugaragara kuri aka gace, aho hari agahanda gashamikiye kuri aya mazu abantu batuyemo gakora kuri kaburimbo.

Ni amapoto y'amashanyarazi. Amasinga anyuranyemo hejuru y'amazu, mu kirere. Ni igipangu, ndetse gifite n'andi mazu ku ruhande, ku muryango, ashobora kuba ari amazu y'ubucuruzi. Inyuma yaho hari ibiti.

Ndabona ifoto y'amashanyarazi hirya ndabona ibiti byinshi bikoze nk'ishyamba, ndabona inzu ebyiri nziza zigaragara ko arizo guturwamo, ndabona w'umukobwa ahagaze mu muhanda. Kuri ururuhande rwo hino ndahabona akazu ka emutiyeni bacururizamo, ushobora kubikirizamo cyangwa ukabikoza ama.

Yambaye imyambaro yabigenewe' abantu bize amashanyarazi, yambaye inkweto zabigenewe yambaye ipantaro n'ishati yabigenewe ndetse afite n'ingofero ari hejuru hari umugozi umuhuza n'ipoto y'amashanyarazi ni imyenda yambarwa n'abantu baba bagiye gukora cyangwa se kugira ibyo batunganya ku bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo ufite igice cyagenewe abanyamaguru, hirya yaho hari ibyatsi, hari ubusitani ndetse munsi y'ubwo busitani urahabona amazu atandukanye, hari ipoto y'amashanyarazi, hakurya hari ikigega.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo, ndabona icyapa kigaragaza ahantu ni'ibintu bihakorerwa, ndabona ahantu abantu bakarabira ugiye kwinjira kuri icyo kigo kigaragara ko ari nko kwa muganga, ndabona umumotari uparitse, ndabona abantu bafite utudobo n'udukaniye wagirango baragemuye.

Yambaye umwambaro w'akazi. W'umwe, wabugenewe. Hari ibyuma bitandukanye, hari umuntu wicaye, bashyizemo ibintu mu mutwe. Ni uburyo bukoreshwa iyo abantu bari gutunganya imisatsi. Biragaragara ko aha hantu hatunganyirizwa imisatsi.

Ndabona inyubako hari ahantu abantu barunze ibintu, iyi nyubako iragaragaza ko ari ahantu kwa muganga, hari abantu bagemuriye abarwayi ariko hakaba hari ibyo batemewe batemerewe kujyana mu bitaro bakaba bafite ahantu babishyira.

Ni imodoka ziparitse, imbere yaho hari amazu, inyuma yaho hari ibyatsi ndetse hari n'abantu bari gutambuka hari n'undi muntu uhagaze.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka zigenda, amazu ndetse n'icyapa kirimo amagambo y'impene inyuguti ya ca, inyuguti ya ha, inyuguti ya u, inyuguti ya ba. N'ibitaro biherereye i Butare bakoreshaho aya magambo y'impine.

Iyi ni inyubako igeretse, imbere y'iyo nyubako hari ubusitani, hanyuma muri iyo nyubako munsi y'iyo nyubako imbere yaho hari ikizimya inkongi y'umuriro, bifashisha iyi kizimyamuriro nk'iyo habaye inkongi, ifite utuntu bazamukiraho bajya hejuru.

Iyi ni inyubako ifite ibice bitandukanye n'ibyumba bitandukanye hari ubusitani ahantu hahinze indabyo hari ibyapa bigenda biyobora abantu bigaragaza serivisi zihatangirwa ndetse baragaragaza ahantu bacumbikira abantu cyangwa se ahantu harwarira abantu badahita bataha .

Ni inyubako ariko uburyo yubatse ifite n'ahantu hasakaye, akenshi inyubako zubatse gutya hakunze kuba ari kwa muganga, hepfo haraturuka umuntu wambaye itaburiya uri kuri telefone biragaragara yuko ari umuganga.

Umuhanda wa kaburimbo ku nkengero zawo hari inzira yahariwe abanyamaguru, imbere ndabona icyapa, hari ibendera ry'igihugu ndetse hari n'inyubako nini cyane, iriho amagambo yanditseho hejuru, ko ari ibitaro byitiriwe umwami Faisal.

Umuhanda wa kaburimbo ariko imbere y'uwo muhanda harimo inyubako, inyubako imbere yaho hari ibendera ry'u Rwanda n'inyubako nini yubatse mu buryo bugezweho yanditseho amagambo hejuru agaragaza iyo nyubako, iyo ariyo ko ari ibitaro byitiriwe umwami Fayisali.

Ni abagororwa bari kumwe n'umucungagereza. Yewe si n'umwe gusa hari n'abandi bacungagereza bari imbere. Mu Rwanda abacungagereza bagira imyambaro yabo yihariye, ndetse n'abagororwa bakagira imyambaro yabo yihariye ku buryo ukibona iryo bara uhitabona ko ari abacungagereza cyangwa se abagororwa.

Ni umugore ugaragara yambaye imyenda y'abagororwa, yambaye amarineti yiyogoshe umusatsi awumaraho, impande ze hari umuntu wambaye imyambaro y'abacungagereza, bigaraga yuko ari kureba uyu mugororwa.

Ni ibikarito byinshi bigiye bipanze mu buryo butandukanye kimwe kigeretse ku kindi niby'inkiko gacaca, inkiko gacaca zifashishwaga guca imanza z'abagiye bagira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi aha rero hashyinguyemo inyandiko zitandukanye ziturutse ahantu hatandukanye z'inkiko gacaca.

Ndabona abapolisi babiri, hagati harimo umuntu wambaye amapingu, yambaye n'agapfukamunwa, yambaye na karuvati, biragaragara ko bamujyanye imbere y'ubushinjacyaha, inyuma hari imodoka ebyiri imodoka ya Polisi,

Ifoto igaragaza umupolisi ndetse ari kumwe n'umuntu wambaye amapingu, afite icupa ry'amazi mu ntoki, biragaragara yuko amushyikirije ubushinjacyaha kugira ngo agire ibyo abazwa ku byaha akurikiranweho.

Bicaye imbere y'abandi, bambaye utuntu mu majosi turiho amabara arimo idarapo ry'u Rwanda, handitseho komite. Biragaragara ko bari muri komite y'abunzi, abunzi n'urukiko cyangwa se n'urwego rw'abantu baba mu Rwanda bagira uruhare mu gukemura ibibazo bitaragera mu nkiko zikomeye.

Ni mu rukiko, umwavoka ahagararanye n'umugororwa cyangwa se ufunzwe, biragaragara ko bari mu bikorwa byo kuburana, akenshi iyo umuntu afunze, hari igihe iyo agiye kuburana akenera umuntu umuburanira wabigize umwuga aribo bita ab'avoka.

Ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, ari imbere y'indangururamajwi iruhande rwe hari ibendera ry'igihugu. Ibendera ry'igihugu rigizwe n'amabara atatu; ubururu, umuhondo, n'icyatsi kibisi.

Ni abantu bari kugenda ahegereye gereza ya Nyarugenge, ni abantu batandukanye ,uyu wambaye ingofero ntabwo akiriho kugeza ubu yari umuhanzi Kizito Mihigo yitabye Imana.

Abantu bamwe bambaye imyambaro y'abagororwa, abandi bambaye umwambaro bafite udufurari bambaye tugaragaza abo baribo, utu ni utwambarwaga n'inyangamugayo zatoranyijwe, zigira uruhare mu rukiko gacaca, gucira imanza cyangwa se kugira uruhare mu kuburanisha abantu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi.

Repubulika y'u rwanda ishyira umuturage ku isonga irwanya ruswa n'akarengane, hano barimo baramamaza ngo mbese wari uziko ukwiye kwirinda abagira ibyo bagusaba bakwizeza kuzagufasha kubona ubutabera mu nkiko bari kuvuga ngo birinde ubutabera ntibugurwa ni uburyo bukoreshwa mu kwamamaza ndetse no kugaragaza serivisi abantu bemerewe nizo batemerewe, ntawe ugomba kugura ubutabera.

Ndabona imodoka harimo imodoka zitwara abagenzi ntoya ndetse n'imodoka ya polisi, hari amashusho y'abantu bagaragara ko ari abagororwa bigaragara ko bashoboka kuba bagiye kwitaba urukiko.

Turabona uwambaye imyambaro yo muri bamwe baburanira abantu ndetse yambaye n'agapfukamunwa, tukabona n'uwambaye indi myenda y'abagororwa. Nkurikije uko ndi kumubona ndi kubona Callixte Sankara, umwe mu bantu bahigwaga na leta akurikiranyweho ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birwanya igihugu.

Ibikarito bitandukanye byanditseho gacaca akarere byose byanditse ko ari akarere ka Muhanga biragaragara yuko bibitse iyi nyandiko cyangwa se bishyinguyemo inyandiko zitandukanye zo mu karere ka Muhanga.

Ndabona umucungagereza, ndabona abagororwa, ndabona abagororwa bafite amajerekani bagaragara nka bagiye kuvoma, ndabona inyubako nini iteyeho senyenge hejuru kandi ndende, biragaragara yuko ariho abagororwa baba.

Ni umugororwa uhagaze imbere y'abantu wambaye imyambaro y'abagororwa, imbere ye hari abantu bambaye utuntu turi mu mabara y'ibendera ry'igihugu bagerageza kutwambara ku ntugu zabo hanyuma tugafata no mu kwaha, utu tuntu bambaye ni utuntu twambarwa n'abo bita inyangamugayo bakora mu nkiko gacaca baburanisha abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi.

Umugabo uhagaze imbere y'abaturage, kandi akaba agaragara ko ari kubazwa, imbere ye hicaye abantu bambaye ibirango by'inyangamugayo mu nkiko gacaca, imbere ye kandi harimu umugabo uhagaze umeze nk'uri kumubaza ibibazo.

Ni umupolisi w'umukobwa, ni imodoka igendwamo n'abapolisi ariko handitse ngo Muhima na zigama, inzego z'umutekano abapolisi cyangwa abasirikari bagira uburyo bwa banki bakoresha yitwa zigama. Iyi zigama rero iherereye Muhima ni iy'abapolisi n'abasirikari.

Mu Giporoso ni ahagana i Remera mu mujyi wa Kigali haba urujya n'uruza rw'ibinyabiziga kandi uyu muhanda uba uhuze cyane urimo amamoto imodoka zitwara abantu n'izabantu ku giti cyabo .

Aba ni abapolisi bari mu mwambaro wa polisi y'u Rwanda ariko inyuma yaho hari ikintu kiriho icyapa kigaragaza umuryango w'abibumbye, hanyuma inyuma hari ibyatsi, hirya yaho hari imodoka.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka imbere yacu hari imodoka nini izi modoka zikunze kwifashishwa ziri kujya ahantu haba hari inkongi y'umuriro zikunze kwifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro niba ari nk'inzu yafashwe n'inkongi cyangwa se ikindi kintu cyafashwe n'inkongi y'umuriro.

Iyi ni kizimyamuriro ni igikoresho kijya gishyirwa ku nyubako zitandukanye kigira ngo kigabanye ibyago byo kugira ngo iyo nzu mu gihe yibasiwe n'inkongi y'umuriro cyizabashe gutanga ubutabazi bw'ibanze kugira ngo hazirindwe gukwirakwira kw'iyo nkongi y'umuriro ibe yafata iyo nzu yose.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga ndetse n'umupolisi uyu mupolisi ahagaze imbere y'iyimodoka ari kuyerekeza mu cyerekezo igomba guhagararamo kugirango ngo arebe ibyo ayibaza niba yujuje ibisabwa ndabona ibiti ndabona inzira y'abanyamaguru bari gutambuka .

Ndabona abantu ndabona ibyapa byinshi ndetse ndabona n'umupolisi uhagaze ku muhanda imbere hari bari kwambukira mu kayira kagenewe abanyamaguru, hakurya ye hari ibinyabiziga munsi rero ahagaze abashe gucunga neza no gusigasira umutekano wo mu muhanda.

Ni imodoka y'abashinzwe umutekano iyi modoka ikunda kunyura mu muhanda ireba ko amategeko yo mu muhanda ari kubahirizwa, iyo atari kubahirizwa abashoferi baparitse ahatemewe batwaye abantu benshi cyangwa hari andi mategeko batubahirije babaca amande bakabandikira cyangwa bakabahana.

Ndabona abantu batandukanye, bameze nk'abari kuzimya inkongi y'umuriro, bafite ikintu bari kugenda bacucira amazi mu nzu ariko hari undi muntu ku ruhande umeze nk'umuntu uri kwiruka afite ibyo guhunga, ukurikije ukuntu abantu bambaye biragaragara ko bari kuzimya inkongi y'umuriro.

Ndabona imodoka nkabona umupolisi ufite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwa burundu, afite icyuma asa nk'uri kureba niba uru ruhushya, rwujuje ubuziranenge. Iinyuma y'iyi modoka haparitse indi modoka no hirya hari ibindi binyabiziga biri kugenda, mbese hari urujya n'uruza rw'abantu.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, ugendwa mu byerekezo bibiri, ariko hagati y'icyerekezo kimwe n'ikindi hateyemo ibyatsi bitandukanya umuhanda, ku ruhande rwo hepfo hari imodoka nini y'urwego rushinzwe umutekano hano mu Rwanda polisi.

Umuntu afite ikaramu ari kubarura amajwi, ibi bijya bikorwa na komisiyo y'igihugu y'amatora aho umwe ahagarara imbere bakajya basoma amajwi akandika uwatowe agashyiraho akamenyetso nyuma yaho akaza kubarura amajwi.

Umukuru w'Igihugu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari kugenda, ari kumwe n'umudamu we Jeanette Kagame, bari kunyura imbere y'abandi Bayobozi, ni ahantu hateraniye abantu benshi.

Hano ni mu cyumba cy'inama hicaye abayobozi batandukanye bahugiye kuri mudasobwa barimo barakora buri wese ahugiye kuri mudasobwa ye ni abantu benshi, inyubako nini yakiriye abantu benshi batandukanye.

Umuntu ari gushyira igipapuro mu gisanduku, undi ari kwinjira mu kantu kameze nk'ubwiherero, biragaragara ko bari mu bikorwa by'amatora ni bikorwa iyo abantu bari gutora, bubatse utwumba dutoya mu cyumba kinini, bifashishije ibitambaro aho bita mu cyumba cy'itora.

Ni abayobozi batandukanye bicaye mu cyumba bari gukoreramo hari umuyobozi wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, wicaye ku ntebe y'imbere ari kumwe n'umudamu we jeannette kagame imbere ya buri muyobozi, hari indangururamajwi, ku buryo igihe akeneyewe gutanga igitekerezo abasha kuyitanga mu buryo buboroheye.

Ifoto iriho abaturage bafite ibyapa by'umuryango fpr inkotanyi ndetse n'umukandida paul kagame barishimye cyane ni abantu benshi biragaragara ko bari mu bikorwa byo kwamamaza umukandida w'iri shyaka paul kagame.

Yitwa Mpayimana Philipo, umwe mu bakandida bari boherejwe n'ishyaka ngo aze guhatana n'umukuru w'igihugu wa repubulika y'u Rwanda Paul KAGAME mu bikorwa byo kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu. N'ubwo MPAYIMANA Philipo yiyamamaje ariko ntabwo byamugendekeye neza kuko yaje kuzatsindwa na perezida wa repubulika y'u Rwanda uriho, Paul KAGAME w'ishyaka rya FPR.

Mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane, mu gihugu cy'u Rwanda habaye amatora ya perezida wa Repubulika, uru ni urupapuro rwifashishijwe mu gihe cy'itora, aho buri wese mu bakandida batatu bari bemewe gutorerwa kuri uwo mwanya hari perezida wa Repubulika Paul Kagame, Habineza Furanke, na Mpayimana Firipo, ubwo umuntu yagombaga gutora imbere y'umwe mu bakandida yahisemo.

Ni Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yambaye umwambaro w'ishyaka rya FPR Inkotanyi, ari mu bikorwa byo kwiyamamaza, kuko ikigaragara cyo hari amarapo hari amadarapo menshi y'iryo shyaka rya FPR Inkotanyi. Ni umukandida umwe rukumbi watsindiye amatora yo kuyobora igihugu akaba ayoboye Repubulika y'u Rwanda.

Ni perezida wa repubulika y'u Rwanda, ahagaze imbere y'abantu ari kubabwira imbwiwaruhame, inyuma ye hicaye abayobozi batandukanye, naho we ahagaze imbere ari kugeza imbwirwaruhame ku bantu, hari amabendera y'ibihugu hari n' ibendera ry'igihugu ri kugaragara ndetse hari n'ibendera riri mu kirango cy'igihugu.

Ni ishyaka riboneka mu Rwanda riharanira ukwishyira ukizana ni mu bikorwa byo kwamamaza iyo bakeneye gutora abayobozi cyangwa abadepite cyangwa abakuru b'igihugu ,buri shyaka ryo mu Rwanda ritanga abakandida cyangwa se abantu bakeneye kwiyamamaza hano rero barimo baramamaza ishyaka riharanira ukwishyira ukizana.

Yari perezida wa repubulika y'u Rwanda Juvenali Habyarimana, uyu nguyu niwe wagize uruhare mu miyoborere ye mibi kugira ngo mu gihugu cy'u Rwanda habe jenoside yakorewe abatutsi aho ubwoko bumwe bwibasiwe bukicwa n'abantu biturutse ku rwango n'amacakubiri yabibwe n'uyu muyobozi mubi wari perezida.

Umukozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora, ari kwereka umuntu uje gutora, hari udusanduku twagenewe abantu batoreramo ndetse n'impapuro abantu batoreraho, hano bahita mu cyumba cy'itora, kiratatse kandi gitatse mu mabara y'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ni amabendera atandukanye y'amashyaka aba mu Rwanda, dufite ishyaka rya FPR, dufite ishyaka rya PSD, dufite ishyaka rya PER n'ishyaka rya PS Imberakuri ayo ni amashyaka akorera ku butaka bw'u Rwanda.

Ni umuyobozi wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ahagaze imbere y'indangururamajwi, aho agaragara nk'aho ari kugeza imbwirwaruhame ku baturage. Ahangaha hakunda guhagarwa n'abayobozi, iyo bafite nk'amagambo bari kubwira abaturage bayoboye.

Umuyobozi wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ni umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda. Aha ari mu cyumba cy'itora aho ari gutora afata urupapuro aruzinga akarushyira mu gasanduku k'itora kabugenewe. Erega n'abayobozi na bo bagira uruhare gutora abayobozi. Na we nubwo ari umukandida ariko aba agomba gutora.

Bafite uturango tw'ishyaka ryaFPR inkotanyi, FPR inkotanyi ni ishyaka riri mu Rwanda riri ku butegetsi, umuyobozi waryo ni perezida wa repubulika Paul Kagame, mu bikorwa byo kwamamaza rero cyangwa se inama nk'izi zahuje abo muri iryo shyaka baba bambaye umwambaro ugaragaza iryo shyaka ndetse bafite n'uturango.

Abagabo batatu barahagaze umwe ahagaze hagati yabo imbere y'indangururamajwi, afite ifoto mu ntoki. Uyu mugabo uhagaze ari kwiyamamaza, ndetse arasa n'umukandida wigeze wiyamamariza kuba perezida wa Repubulika.

Ikirango cya komisiyo y'igihugu y'amatora kiri ahantu hari kubera urujya n'uruza rw'abantu bamwe baravayo abandi bajyayo hanyuma haranditse ngo twitabire amatora duhitemo neza biragaragara yuko ari kubera komisiyohari kubera amatora aho abantu bari kwihitiramo abayobozi.

Uyu ni minisitiri w'urubyiruko dogiteri Utumatwishima ni minisitiri ushinzwe urubyiruko by'umwihariko aha afite indangururamajwi biragaragara yuko ari kurahirira inshingano, akenshi iyo abayobozi nk'aba barahira arahira afashe ku ibendera ry'igihugu ari kurahira ko azakora neza imirimo ashinzwe kandi akayikora yubahiriza amategeko ya repubulika y'u Rwanda nk'uko biteganywa.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari mu bikorwa byo kwiyamamaza, ari kumwe n'abamucungira umutekano. Bakoze neza, bahakoze neza bahatatse mu birango by'umuryango wa Efuperi nkotanyi hari ibyuma ndangururamajwi.

Ndahabona igazeti ya leta nimero enye yo kuwa munani bibiri na makumyabiri na gatatu, iyo gazete ikaba yandikishijwe amagambo y'umukara, ikaba yanditse mu ndimi eshatu arizo; ikinyarwanda, icyongereza ndetse n'igifaransa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka iri kunyuramo, ku mpande z'uwo muhanda iburyo n'ibumoso hari inzira yateganyirijwe abanyamaguru, ku ruhande rwo hepfo rw'uwo muhanda hari ibiti, ku ruhande rwo ruguru rw'uwo muhanda hari ahantu hagenewe kunyura amazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka abagenzi. Umuhanda ugenda mu byerekezo byombi kuruhande rwo hirya rw'umuhanda hari amazu ashobora kuba ari ay'ubucuruzi ndabona amapoto y'amashanyarazi.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga harimo umunyegare utwaye umuntu ndetse hakabamo n'abamotari batwaye abagenzi ku nkengero z'uwo muhanda hari inzira y'abanyamaguru ndetse ku rundi ruhande rwo hepfo rw'uwo umuhanda hari ibiti bihateye munsi y'ibyo biti haparitse imodoka nini y'igikamyo.

Ni mu muhanda wa kaburimbo uri kugendwa mu byerekezo byombi, hari imodoka, hari n'umumotari utwaye moto. Iburyo n'ibumoso bw'uyu muhanda hari inzira yahariwe abanyamaguru kandi ku ruhande rwo hepfo rw'umuhanda uhabona ibiti.

Ndabona umuhanda, nkabona imodoka iri mu muhanda igenda, nkabona imodoka ziparitse ku ruhande, nkabona amazu y'ubucuruzi ndetse muri ayo mazu hari inzu igaragara ko ikorerwamo imikino y'amahirwe.

Ni mu muhanda ni kaburimbo ni umuhanda ugendwamo n'ibyerekezo byombi imodoka zimwe ziragenda izindi ziragaruka harimo imodoka zitandukanye ku ruhande rw'umuhanda hari ahantu hagenewe kunyura abanyamaguru, abanyamaguru ntabwo bagomba kwivanga n'ibinyabiziga.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo uyu muhanda urimo imodoka ipakiye imizigo ariko itari mu bwoko bwa rukururana, uyu muhanda ku mpande ebyiri zawo hari inzira yahariwe abanyamaguru ku ruhande rwo hepfo rw'uyu muhanda hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abamotari batwaye moto. Ku nkengero z'uwo muhanda hagaragara inzira yateganyirijwe abanyamaguru, muri uwo muhanda ubonamo inzira yateganyirijwe none kunyurwamo n'abanyamaguru. Ku mpande z' uwo muhanda hari.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo umumotari utwaye umugenzi hakabamo n'undi mumotari udatwaye umugenzi, harimo imodoka yikoreye imizigo, ku ruhande rw'iburyo rw'uwo muhanda hari abanyamaguru bari kugenda ndetse no ku ruhande rw'iburyo nabwo hari indi nzira yagenewe abanyamaguru.

Uyu n’umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, kuhande hari ubusitani bwiza burimo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku binyabiziga bihanyura byose.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, harimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka, moto, ndetse ku ruhande rwo hakurya hari inyubako, hari moto ziparitse, ku ruhande ukubise amaso hakurya hari ishyamba.

Ni modoka nini zitwara abagenzi, izi modoka zikunze gu gukora mu Mujyi wa Kigali zikunda kwifashishwa mu gutwara abagenzi, muri uyu muhanda ku ruhande rw'iburyo hari ahantu hagenewe kunyura amazi, hari urukuta rw'amabuye.

Ni umuhanda utari kaburimbo ariko nta nubwo ari ibitaka, ku mpande zo muhanda iruhande rw'ibumoso hari abamotari bategereje abagenzi ku ruhande rw'iburyo naho hari ibindi bikorwa bihakorerwa kuko hari imodoka yaparitse ndetse yahagaze n'abapolisi muri uyu muhanda nyabagendwa ku binyabiziga biraturuka imbere biri kugenda muri uwo muhanda.

Ndabona imodoka itwara abagenzi. Ariko ni imodoka ntoya, itari muri bwa bwoko bw'imodoka nini, iparitse ahantu mu muhanda w'igitaka. Inyuma yayo ndabona inyubako. Hari igipangu gifite itara, ndetse inyuma y'icyo gipangu hari ibiti.

Ni muhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwaye abagenzi, uyu muhanda iburyo n'ibumoso hari akayira kagenewe kugenderwamo n'abanyamaguru, hepfo y'uwo muhanda hari ibiti, ibiti bitandukanye biri kuri uwo muhanda.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo, uyu muhanda urimo imodoka mu byerekezo mu mpande ebyiri zuwo muhanda hari inzira yagenewe abanyamaguru ku ruhande rwo hepfo rw'uyu muhanda hari ibiti.

Imodoka eshatu nini zitwara abagenzi ziraparitse. Imbere y'izo modoka hari umuhanda wa kaburimbo ariko aho izo modoka ziparitse, imodoka ibanza irimo aba abagaragara nk'abagenzi biragaragara ko iri mu mwanya wo gushyiramo abagenzi muri parikingi.

Nyiricyubahiro umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda yambaye ishati y'umweru nipantaro y'umukara mu kiganza cy'iburyo afite icyuma ndangururamajwi ndetse n'agacupa k'amazi kuru ruhande yicaye hagati y'abantu abantu benshi bamuhanze amaso.

Ni mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto, imodoka, ku ruhande rwo hepfo bari kutwereka inzira y'abanyamaguru, kuruhande rwo hepfo kandi hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo. Imodoka zipakiye imizigo, moto zitwaye abagenzi ziri kunyura muri uyu muhanda. Inzira nyabagendwa, imbere y'uwo muhanda iruhande rwaho, hari amatara yo ku muhanda ndetse hari n'inyubako nini.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, harimo moto itwaye umugenzi ndetse uyu muhanda ku ruhande rwo hepfo hari undi mu muhanda ugenda mu kindi cyerekezo, hagati y'umuhanda umwe n'undi hateyemo ibiti ndetse n'indabyo ziteye zituma umuhanda ugaragara neza, ku ruhande rwo hepfo rw'uyu muhanda hari ibiti.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka ziri kugenda mubyerekezo byombi s' imodoka gusa ziri mur' uyu muhanda harimo n'amagare impande z'uyu muhanda hari ibiti bikikije uyu muhanda mu cyerekezo cyo hepfo y'umuhanda hanyuma haruguru y'umuhanda ku kindi cyerekezo hari inzira y'abanyamaguru.

Iki ni icyapa kinini kigizwe n'amabara y'umweru n'amagambo yandikishije umukara Rusizi hirya gato hari umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo ufite terefone mu kiganza, arimo aramamaza serivisi nshyashya za emutiyene (MTN) k'umugabo wambaye umupira w'umukara ufite igare ry'umuhondo mu ntoki.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka, moto zitwara abagenzi, ku nkengero z'uwo muhanda, hari ahantu hateganyirijwe abanyamaguru, ku ruhande rwo haruguru hari umuntu wikoreye umuzigo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, hari imodoka, hari moto ziparitse, hari abari kugenda n'amaguru ndetse hakurya urebye hari amazu.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, harimo ibinyabiziga bitandukanye, hari moto, hari imodoka, impande n'impande z'imihanda hari ahantu hagenewe kunyurwa n'abanyamaguru, ndetse ku mpande zo ku ruhande rwo hepfo rw'umuhanda hari ibiti.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, harimo ibinyabiziga bitandukanye, ku ruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso, hari inzira yahariwe abanyamaguru, ku ruhande rwo hepfo hari ibiti, inyuma hari moto ndetse n'imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, ku ruhande rwa ruguru hari inzira yahariwe abanyamaguru, ku ruhande rwo hepfo naho hari inzira yahariwe abanyamaguru ariko hari ibiti hari imodoka hari amamoto n'ibindi.

Ni umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka harimo moto, ku ruhande rw'iburyo rw'uwo muhanda hari inzira yagenewe abanyamaguru, harimo kunyura abantu ndetse ku kindi gihanda cyo hepfo y'inzira yagenewe aba abanyamaguru hari imodoka zihari zihaparitse.

Umugabo w'imisatsi migufiya w'inzobe ufite ubwanwa bwo hejuru wambaye umupira wo kwifubika urimo amabara atandukanye ubururu, umweru n'umukara wambariyemo ishati, araburanishwa.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo, uyu muhanda wa kaburimbo ugenda mu byerekezo byombi. Urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga hari imodoka iri mu bwoko bwa toyota ipakiye, ndetse hari n'imodoka nini nayo igaragara ko itwaye abagenzi, hari moto ndetse kurundi ruhande hari inzira yahariwe abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye biri kugenda mu byerekezo byombi, bimwe birava iburyo ibindi birava ibumoso, ndabona imodoka, ndabona moto zitwaye abagenzi, ku nkengero z'umuhanda hari inzira yahariwe abanyamaguru, iburyo n'ibumoso hepfo yaho hari ibiti.

Ni moto ziparitse, hari amazu afunguye atandukanye, akorerwamo ubucuruzi butandukanye, hanyuma abantu iyo baje guhaha izi moto ziba zaje gutegereza abagenzi kugira ngo zitware abari buve muri aya mabutike bava guhaha, iyi moti itwegereye irimo irashaka gupakira imizigo y'ibintu bimaze guhahwa.

Hano ndabona umuhanda wa kaburimbo ku nkengero z'uwo muhanda hari abamotari baparitse moto babiri bari kuganira, undi mu motari wa gatatu we ari mu muhanda ari kugenda, impande y'abamotari hari icyapa impande y'iki cyapa hari kandagira ukarabe.

Ni mu muhanda wa kaburimbo hari imodoka nini igaragara ko ipariki itwara abagenzi mu mujyi wa Kigali iruhande rw'iyo modoka hari umuntu wambaye imyenda isa yambaye nka kumwe abakarasi bakora mu mujyi wa kigali baba bameze.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, muri uyu muhanda, harimo igare ripakiye imizigo. Ku ruhande rwo haruguru rw'umuhanda, hari inzira yahariwe abanyamaguru, ku ruhande rwo hepfo, naho hari inzira yahariwe abanyamaguru, ariko harimo ibiti.

Ndabona umuhanda urimo ibinyabiziga bicanye amatara, harimo ikinkinyabiziga kinini cyanditseho ngo rimosi biragaragara yuko kino kinyabiziga ari muri bimwe bitwara gaze cyangwa peteroli.

Umuhanda wa kaburimbo ugendwa n'ibinyabiziga bitandukanye ku ruhande rw'uwo muhanda hari inzira yahariwe abanyamaguru barimo baragenda, ndetse ku ruhande rw'ibumoso hari ibiti, iyo ukomeje kureba kuri iyi nzira y'abanyamaguru uhasanga indi nyubako nayo iriho ibyapa bitandukanye.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka hari ikinyamitende gitoya kirimo, mu nkengero z'uwo muhanda hari ahahariwe kugendera abanyamaguru, hirya y'uwo muhanda wa kaburimbo hari amabati akikije umuhanda ariko azitiye inzu igaragara ko iri kubakwa.

Mu muhanda wa kaburimbo uri kugendwa n'imodoka, umuhanda nyabagendwa ndetse hagenda n'abanyamaguru, ku nkengero z'uwo muhanda hubatse igikuta cy'amabuye, hejuru y'icyo gikuta cy'amabuye, haragaragara undi muhanda nawo uri kunyuramo imodoka, hejuru y'uwo muhanda haragaragara ikindi gice giparitseho abamotari benshi.

Mu muhanda wa kaburimbo ibinyabiziga biragenda mu byerekezo bitandukanye harimo iri kugenda mu cyerekezo kimwe hari na moto zituruka mu cyerekezo kibisikana n'iyo modoka kandi ku ruhande rwo hino hari inzira y'abanyamaguru. Hirya ya'ho hari ibiti hirya y'imihanda hari ibiti ndetse hirya inyuma y'ibyo biti ndabona amashusho y'abantu bigaragara ko hari ibindi bikorwa biri kuhakorerwa.

Ni mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, hari imodoka hari utunyamitende dutoye dutwara imizigo, hari igare n'ibumoso hari umuhanda ugenewe abanyamaguru hepfo y'umuhanda hari ibiti ku ruhande rwo haruguru rw'umuhanda hari ahantu hagewe kunyura amazi.

Ndabona umuhanda, umumotari utwaye umubyeyi ndetse inyuma ye hari imodoka, imbere y'umumotari hari umuntu utwaye igare; ni umuhanda ufite ibyerekezo byombi kandi ku nkengero z'uwo muhanda hari inzira yateganyirijwe abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo, ibinyabiziga birimo birabisikana bivuga ko uyu muhanda ugenda mu byerekezo byombi, iruhande rw'iburyo hari ibiti ariko hakaba hari n'inzira igaragaza ko ari iy'abanyamaguru, iruhande rw'ibumoso bw'umuhanda naho hari inzira y'abanyamaguru ibinyabiziga birimo biranyuranamo.

Ni umuhanda wa kaburimbo ibinyabiziga bigendamo, ku ruhande rwo hepfo hari inzira yagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru, hari amapoto ateye ku muhanda y'amatara ndetse hari n'ibiti biri ku muhanda.

Ni umuhanda wa kaburimbo, ku ruhande rw'iburyo hari inzira yagenewe abanyamaguru, ibumoso hari inzira yagenewe abanyamaguru, muri uyu muhanda harimo ikinyabiziga, hari imodoka nini itwaye abagenzi, ku ruhande rwo hepfo rw'ikinyabiziga ndetse n'uyu muhanda hari ibiti.

Iyi ni kaburimbo hari ibinyabiziga biri kugenda urujya n'uruza, hari ibigenda mu cyerekezo cy'iburyo n'ibijya mu cyerekezo cy'ibumoso, ku nkengero z'uwo muhanda hari utuyira twateganyirijwe abanyamaguru. Hari imodoka ndende iri kugenda mu muhanda ariko idapakiye, hari n'umumotari utwaye moto

Mu muhanda ugendwa wa kaburimbo, ku ruhande rwaho hari inzira yagenewe abanyamaguru, umuhanda urimo imodoka ipakiye imizigo ndetse urimo n'abanyonzi cyangwa se abantu bakoresha amagare.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo, ndabona ibinyabiziga, ndabona imodoka nini itwaye abagenzi, ndabona umumotari utwaye umugenzi, kuruhande rwarwo rw'umuhanda hari inzira yahariwe abanyamaguru hepfo y'umuhanda ndahabona ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urikugendwa n'ibinyabiziga bitandukanye hari imodoka, hari moto, impande z'umuhanda hari akayira kagenewe abanyamaguru, hirya y'umuhanda hari ibiti ndetse no ku nkengero y'umuhanda hari borudiri.

Ni inote z'amadorali hano harimo amadorari ijana muri izi note hariho n'ibiceri, harimo n'inote za magana atanu z'amayero n'inote ya mirongo itanu y'amayero.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, harimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka zipakiye, ku ruhande rw'ibumoso hari ibiti, ku ruhande rw'iburyo hari akayira kagaragara kagenewe abanyamaguru.

Imodoka ifite ibara ry'umweru yo mu bwoko bwa Hyundai iparitse hamwe nandi mamodoka menshi ifite icyapa cya ndistseho kigali Carizi maketi iparitse imbere yinzu ifite irangi ry'umuhondo n'amadirishya y'umukara na konteneli y'umutuku .

Ni umuhanda uririmo urujya n'uruza rw'abantu, hari abantu bikoreye imizigo, hari imodoka ziparitse zitwara abagenzi, zikorera sosiyete ya sitera harimo abantu batandukanye, mbese ni urujya n'uruza rw'abantu.

Ni umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka dayihatsu iri kugenda ku gihandade kimwe cy'umuhanda ku ruhande rwo haruguru hari inzira yagenewe abanyamaguru hari icyapa cyanditsemo inyuguti ya pa ariko hacamo umurongo utukura biravuze ngo nta parikingi ihari.

Umuhanda wa kaburimbo wifashisha ibyerekezo bitandukanye, harimo moto itwaye abagenzi mu cyerekezo kimwe ndetse n' ikindidi gice cy'umuhanda harimo imodoka. Umuhanda utandukanyijwe n'ibiti ndetse hirya y'umuhanda hari ibiti.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo, uyu muhanda uko ugaragara ugenda mu byerekezo bibiri, mu gihandade cy'ibumoso ndabona umumotari uhetse umugenzi, ku kindi gihande nta kinyabiziga kirimo ariko hari umuhanda n'aho wa kaburimbo, uyu muhanda utandukanyijwe n'ibiti hari indabyo ndetse no ku gihanda cyo hepfo hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo igare ryikoreye umizigo ari kurisunika, ku nkengero z'uwo muhanda hari ahantu hateganyirijwe abanyamaguru ndetse ku rundi ruhande rw'uwo muhanda hari ibiti.

Ni umuhanda wa kaburimbo, umuhanda uruhande rumwe rw'iburyo hari inzira yagenewe abanyamaguru. Umuhanda nyir'izina hari n'ikamyo nini ipakiye, ku ruhande rwo hepfo hari ibiti.

Ni umuhanda w'igitaka. Hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, hari imodoka, hari moto zitwara abagenzi. Ku ruhande rwo haruguru, hari urukuta rw'amabuye. Igice cyo haruguru hari imodoka nini itwara abagenzi.

Umuhanda urimo kaburimbo , ku ruhande rwo hepfo hari ibyatsi ndetse n'inzira y'abanyamaguru , ku ruhande rwo haruguru hari ahantu hagenewe gukorerwa siporo yo kwiruka , impande yaho hantu hagenewe siporo yo kwiruka hari icyapa giteye mu busitani , kikaba kigaragaza ko ari I Nyarutarama hakaba handitseho amagambo y' ikaze anagaragaza ko ari ahantu hakorerwa siporo yo kwiruka.

Ni ikibuga cya basikete, cyubatse neza, hirya y'icyo kibuga hari ibiti, hari ubusitani, hirya y'aho hari amazu ndetse hari n'imodoka zigaragara hirya y'ikibuga unyujije amaso muri ibi biti.

Iki nibuga cy'umupira w'amaguru, ndabona mu izamu aho batsindira muri icyo kibuga ndahabona ibiti, ndabona imodoka iparitse ndabona n'abantu bari inyuma yahangaha hagaragara ko hari izamu.

Ni ikibuga cya basikete cyubatse neza kirashushanyije ku nkengero z'icyo kibuga, hari akazu gasakaje amabati, kicarwamo n'abafana cyangwa se abaje kwihera ijisho umupira mu gihe cy'imikino, inyuma yaho hari ikindi kibuga kinini.

Ikibuga cya basikete gikikijwe n'inyubako, hirya y'ikibuga hari ibyatsi, hari ibiti, uburyo bashushanyije ikibuga mo hagati harimo amashusho.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zitandukanye zigenza urujya n'uruza. Zimwe zigenda, izindi zigaruka mu cyerekezo cy'umuhanda. Hari icyapa hirya y'uyu muhanda, hari ibyatsi, ndetse haragaragara n'ibintu bimeze nk'ubusitani ku nkengero z'uyu muhanda. Hari umuhanda w'abanyamaguru.

Hari ibyapa bitandukanye igihugu cy'u Rwanda gihana imbibi n'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya Congo, mu mipaka itandukanye ibyo bihugu byombi hari umupaka mutoya n'umupaka munini. Ibi byapa rero biri ku mupaka munini utandukanya igihugu cy'u Rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya Congo.

Ni icyapa gikoreshwa ku muhanda kiyobora abagenzi kirimo inyuguti ya p ariko iyo p ikanyuzwamo akarongo gatukura iyo p rero isobanura ko hari parikingi ariko iki cyapa kiri ku muhanda bba bivuze ngo nta parikingi ihari biba bivuze yuko uwanyuranya n'amategeko yahanwa.

Ndabona icyapa imbere y'icyo cyapa, imbere y'icyo cyapa hari inzu iyo nzu ifite ikigega nacyo ndakibona, ndabona umuhanda wa kaburimbo, kuruhande rwaho rw'ibumoso rw'iburyo haparitse imodoka hari ibiti ku nkengero z'umuhanda.

Ni icyapa iki cyapa gikunda gukoreshwa gishyirwa ku muhanda kirimo inyuguti ya pa kiba gishaka kwereka abashoferi cg se abandi bantu bakoresha umuhanda ko ikinyabiziga ariko ariho gihagarara umwanya muremure akenshi aho iki kinyabiziga cyegereye hakunze kuba hari umwanya wagenewe guhagarirwamo n'ibinyabiziga umwanya muremure.

Ndabona icyapa kiri ku muhanda kigaragaza ko uvuye hano iki cyapa kiri mu birometero bitanu ugera ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya kigali hanyuma nkabona umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye nkabona n'umupolisi uhagaze ku ruhande rumwe rw'umuhanda.

Ndabona ibyapa hari icyapa cyerekana ahantu unyura ujye mu gihugu cy'ubuganda, hari icyapa kiri kwerekana ahantu unyura ugiye muri pariki ya kinigi, hari n'icyapa cyerekana banki y'abaturage y'u Rwanda.

Ni umuhanda wa kaburimbo, hari ibyapa, hari n'ibishushanyijeho, hari abantu babiri ubona bari kwambuka, ni ikigaragaza ko hano kuri uyu muhanda, hari inzira yagenewe abanyamaguru, hari ibiti.

Hari umuhanda wa kaburimbo ndetse hari ibyapa bitandukanye kuri uyu muhanda wa kaburimbo haruguru hari inzira yagenewe abanyamaguru harimo umunyamaguru uri gutambuka kuri uyu muhanda hari ibiti kuri ibi byapa hagaragara umurenge wa Giheke aho uherereye.

Ni umuhanda wa kaburimbo, ku ruhande rwo haruguru hari inzira yagenewe abanyamaguru. Uyu muhanda uri kunyurwamo n'imodoka, hari ibyapa biteye aho ku muhanda. Hari icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bambukira ndetse n'icyapa cyerekana i Nyarugenge ya Kigali city centre aho iherereye.

Iki n'icyapa cyo mu muhanda inyuma yaho hari ibiti kiragaragaza ifoto y'umunyamaguru iyo kirimo hariyayamaguru niwe wambuka imodokaba zihagaze hejuru yaho hari mirongo itatu kane bivuga ko umunyamaguru afite iminota mirongo itatu aribo bari kwambuka ibinyabiziga bihagaze.

Icyapa kiyobora abagenzi n'ibinyabiziga, gishyirwa ku muhanda kigashyirwa ahari gukorerwa ibikorwa byo kubaka umuhanda, umushoferi iyo atwaye imodoka akabona iki cyapa agenda yitonze kuko amenya yuko muhanda hari ibikorwa byo kubaka biri kuhakorerwa,

Ni icyapa, akenshi iyo abantu bari mu muhanda cyangwa mu nzira nyabagendwa, bakunda kuyoborwa n'ibyapa niba ku muhanda biyobora abagenzi, iki ni icyapa kirimo imodoka ariko biragaragara yuko gicishijemo akarongo, bivuga yuko uyu muhanda utemerewe kunyurwamo n'imodoka.

Ni icyapa. Iki cyapa kijya kijya ku muhanda bashatse kugaragaza ko hari ibikorwa biri gukorerwa mu muhanda. Ibikorwa byo gukora umuhanda ,cyangwa se ibindi bintu bishobora gutuma imodoka zitagenda nkuko zabugenewe. Bihashyirwa rero kugira ngo ubone iki cyapa cyitondere ,amenye ko imbere hari imirimo iri kuhakorerwa.

Iki ni icyapa cyo mu muhanda, kiragaragaza ko mu muhanda hari ibikorwa biri kuhakorerwa, mu gihe umushoferi atwaye imodoka akabona iki cyapa, ahita amenya ko imbere hari ibikorwa bihakorerwa, akaba yagenda buhoro byaba ngombwa agahagarara.

Ishusho yasohowe n'ikigo cy'imisoro n'amahoro cy'u Rwanda gishishikariza abantu kwiyandikisha uyu munsi cyangwa se kwishyura ukandikisha kimwe cya gatatu cy'imisoro yawe bitarenze itariki mirongo itatu n'imwe ukuboza bibiri na makumyabiri rimwe.

Ni icyapa kigaragaza ko aha hantu, hari ahantu abana bambukira cyangwase abanyamaguru bambukira, cyane cyane abanyeshuri, hari abana bari kugenda bahetse ibikapu, bambaye impuzankano y'abanyeshuri, ku ruhande rw'iburyo bw'uyu muhanda hari ibyatsi bikase neza, ndetse n'ibiti, hari ubusitani bwiza.

Ni umuhanda wa kaburimbo hari ibyapa bitandukanye, barerekana ko uba uri mu karere ka gicumbi. Ndetse hari n'icyapa kigaragaza ngo urakaza neza muri repubulika y'u Rwanda, epfo no haruguru hari umuhanda. Ibi ibyapa biri mu muhanda urimo hagati utandukanya imihanda mu byerekezo byombi.

Inyubako nziza cyane iriho icyapa kigaragara ko ari legassi ni hoteri yitwa rigasi imbere yayo hari izindi nyubako, hari amazu atandukanye biragaragara ko ari amazu atuwemo, imbere y'iyi nyubako hari ibindi bikorwaremezo hari ibiti bitandukanye.

Imodoka ziraparitse, hari inyubako iriho ibyapa bitandukanye, biragaragara ko bari kugaragaza ibikorerwa muri iyo nzu, haragaragara ko hakorerwa irembo, hari serivisi z'amabanki zihatangirwa, ushobora kuhabona amafoto magufi n'amaremare, hari ibintu byinshi bikorerwa muri iyo nzu.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo impande yawo hari inzira y'abanyamaguru hirya yaho ndahabona ibiti hanyuma nkabona n'inyubako nziza cyane inyubako nziza igeretse ndende ifite n'ubusitani kumpande zayo.

Umuhanda w'igitaka unyuze ahantu abantu batuye, hari umuntu uri kugendesha amaguru, inyuma hari imodoka hakurya hari amazu atandukanye, atuwemo ndetse hari ibyatsi n'amapoto y'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ndetse na moto, ufite ibifate bibiri, ukikijwe n'ibiti n'ibimera n'indabo wegereye amazu.

Ni inyubako ziri kubakwa ndetse n'akayira katari nyabagendwa ariko kabanyamaguru, harimo imodoka ariko uyu muhanda ntago urimo kaburimbo ni uwigitaka. Biragaragara ko abantu bari gushaka guturamo kuko inzu zimwe na zimwe ziracyari mu bikorwa by'inyubako urabona ko ari agace gashya ko guturwamo.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo ku nkengero z'uwo muhanda hicaye abantu, hirya yabo bantu hari inyubako, izi nyubako ziriho utuntu tugaragaza imyenda cyangwa se kwamamaza ibicuruzwa by'imyenda, haparitse umunyegare ndetse ku rundi ruhande hari icyapa kigaragaza aho bogoshera.

Ni mu giporoso, hari urujya n'uruza rw'abantu, abantu batandukanye. hari moto ziparitse, hari amazu ari iburyo n'ibumoso, hakorerwa ibintu bitandukanye. Bari kugaragaza y'uko ukeneye ko bagukatira urufunguzo, hari igihe urufunguzo waruta cyangwa se ukagira ikibazo kindi bikaba ngombwa ko ukoresha urufunguzo, ibi nabyo abantu babigukorera kuri zeru karindwi umunani ugako.

Ni mu muhanda wa kaburimbo ariko uyu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, icyerekezo cy'iburyo n'icyibumoso bitandukanyijwe n'ibiti biteyemo hagati mu muhanda by'imikindo n'ibindi biti byiza, ku ruhande rwo hepfo rw'ibumoso hari kunyura ibinyabiziga.

Ni urujya n'uruza rw'abantu, n'inyubako zitandukanye, ni moto ziparitse n'imodoka, ni abantu bari kunyuranyuranamo, biragaragara ko aha hantu ari agace gakunda kugendwa n'abantu batandukanye, hari inyubako ndabona amashanyarazi, amapoto y'amashanyarazi.

Ni inyubako, imbere yayo hicaye abantu, imbere yayo hari ibyatsi, ariko iyo nyubako iriho ibirango bya banki ya Kigali, ukurikije ibirango byaho byerekana, biragaragara ko iyi banki iherereye mu Giporoso, mu mujyi wa Kigali, banki ya kigali ni banki imwe muri banki zikorera mu Rwanda.

Inyubako imbere yayo hari umuhanda muri uwo muhanda hari imodoka zigenda ariko hafi y'iyo nyubako hari iziparitse imbere y'izo modoka ziparitse hari agahanda k'abanyamaguru barimo baragenda kuri iyo nzu hari ibyapa byinshi bigaragara ko hakorera ibintu bitandukanye.

Ndabona umuhanda, muri uwo muhanda harimo abamotari babiri, umumotari umwe atwaye umugenzi, undi araparitse, hirya y'umuhanda hari ibyapa bibiri, hari n'ibyatsi, hari umukobwa ugaragara ko akora amasuku, ndetse hari n'ababyeyi babiri bari kuganira.

Isoko ndabona urujya n'uruza rw'abantu, ndabona umuntu wambaye umwambaro agaragara nk'ukorera ikigo cy'itumanaho cya mobayiro mani, ndabona umuntu ucuruza amataratara ndabona abantu hirya no hino bahuze mu isoko.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, hari ibinyabiziga binyuramo bitandukanye, hari moto. Uretse ko ari moto turi kubona, ariko biri kugaragara ko hanyura ibindi binyabiziga, mu nkengero z'uwo muhanda hari amazu, hari inyubako zitandukanye.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo hari kugendamo imodoka impande z'uwo muhanda hari inyubako nini hejuru y'iyo nyubako hara hari amasinga y'amashanyarazi kuhande rw'umuhanda hari icyapa cya nyarutarama.

Inyubako nziza cyane zubatse mu buryo bugezweho zikikijwe n'urukuta rw'amabuye, ndetse ku mpande zizo nzu hari ibyatsi ariko bikase neza, imbere yaho haparitse umumotari.

Ni umuhanda wa kaburimbo, kuruhande rwo haruguru hari inzira yahariwe abanyamaguru, mu muhanda mo hagati hari kunyuramo moto, kuruhande rwo hepfo hari imodoka ziparitse, hepfo yaho hari inyubako nini, igeretse, iriho ibyapa byinshi bijyanye n'ibihakorerwa.

Iyo ni sisitemu yu kuri murandazi ya banki eko banke ukoresha ushaka kwishyura umuntu cyangwa kubikuza amafaranga kuri banki yawe .

Ndabona imodoka zitandukanye, ziparitse ntago ziri kugenda ziparitse mu mwanya wabugenewe kubera ko hagiye hari n'uturongongu tujye dutandukanya imodoka ibagomba guhagarara n'indi, ndabona ibyatsi, ndetse nkabona inyuma y'izo modoka amatara, amatara yaka nijoro, n'inyubako ndende.

uyu ni umuhanda wa kaburimbo mugihe cya nijoro kuko hacanye amatara yo kumuhanda uratwereka icyapa cyerekeza kukibuga cy'indege cya nyamata nta binyabiziga byinshi birimo n'ibinyabiziga biri guturuka imbere bicanye amatara ntago biri kugaragara neza kuko bigaragara ko ari nijoro

Ndabona umuhanda ufite ibyerekezo bitandukanye, hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, hari ibigenda n'ibigaruka ndetse mu gace ko hino k'umuhanda hahagaze umunyamaguru.

Ni mu muhanda wa kaburimbo hari kunyuramo imodoka iyi modoka yanditse ko ari imodoka y'umuryango w'abayisilamu mu rwanda, hakurya yawo hari indi modoka y'abapolisi ndetse n'indi modoka isanzwe, iyi modoka itwegereye akenshi zikunda kwifashishwa ziri gutwara abantu bapfuye, ku nkengero z'uyu muhanda hari inzira yahariwe abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo, hari inzira yagenewe abanyamaguru, ndetse hari n'ahantu imodoka zateganyirijwe ho guhagara umwanya munini, zishobora kuba ziri gukuramo abagenzi, cyangwa se abandi bahategerereje bari kugira ngo bakomeze mu kindi cyerekezo, ku ruhande rwo haruguru hari inzira irateganyirijwe abanyamaguru, ndetse ku ruhande rw'iyo nzira hari umuyoboro ucamo amazi.

Ni mu muhanda wa kaburimbo harimo kunyura ibinyabiziga aha moto ndetse hari n'ibimodoka binini bitwara imizigo byose biri kunyura muri uyu muhanda, ku ruhande rwo haruguru rw'umuhanda hari inzira yagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru ibi bigabanya impanuka zikorerwa mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ku nkengero zawo hari inzira yahariwe abanyamaguru, umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka harimo na moto, hakurya y'uwo muhanda hari icyapa hakurya y'icyo cyapa hari ibiti.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye bigenda mu byerekezo byombi ku ruhande aho imodoka zihagarara umwanya munini hari imodoka ihagaze ariko inyuma yayo hari icyapa cya mpande eshatu kigaragaza ko iyo modoka ihagarara umwanya munini cyangwa se ishobora kuba yagize ikibazo imbere yayo hari izindi modoka ziri kugenda ndetse hari n'umumotari utwaye umugenzi .

Ni umuhanda wa kaburimbo ni mu gihe cy'amasaha y'umugoroba cyangwa y'ijoro hari ibinyabiziga biri mu muhanda hari igare inyuma y'igare hari abantu bari gutambuka hirya yaho hari icyapa.

Ni umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibyabiziga bitandukanye, ku ruhande rw'ibumoso hari ibiti biteye ku muhanda, imbere yaho harimo hari ibinyabiziga bicanye amatara biri kunyuramo, ku rundi ruhande hari imodoka iparitse ku muhanda ndetse hari na moto ziri kugenda mu muhanda ,hari n'aho abanyamaguru bari kunyura, ukomeza kurebamo imbere hari amazu.

Ni umuhanda w'igitaka ukijwe n'amazu iburyo n'ibumoso atuwe n'abantu, hari ipoto y'amashanyarazi, Ku ruhande rumwe hari ibiti, urundi hari inzira yagenewe kunyuramo amazi.

Ni umuhanda wa kaburimbo, hari ibinyabiziga biri kunyura muri uyu muhanda wa kaburimbo. Kuruhande rwo hepfo hagaragara amapoto y'amatara ya matara yo ku muhanda, hari ubusitani bwiza, ku ruhande rwo hepfo rw'uyu muhanda hari ibiti.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka hari na moto zitwaye abagenzi imodoka itwara imizigo ndetse n'imodoka itemberwamo cyangwa se y'umuntu ku giti cye, ndabona imbere yaho akazu kicarwamo n'abagenzi, igihe bategereje imodoka hirya y'umuhanda hari ibiti.

Mu muhanda wa kaburimbo ndabona umumotari utwaye umugenzi, hirya ku ruhande rw'umuhanda hari umuntu utwaye igare, hakurya y'umuhanda hari ahantu hasa nk'ahaba parikingi y'ibikamyo binini, ndabona ibiti hino y'umuhanda ndabona akayira k'abanyamaguru.

Ni umuhanda wa kaburimbo. Urimo ibinyabiziga bitandukanye, hari amagare ndetse na moto, n'imodoka ziri kugendamo. Ku ruhande rw'ibumoso rw'uyu muhanda, hari ahantu hari inzira yagenewe abanyamaguru, hari amapoto yo ku muhanda arimo n'amatara yo ku muhanda. Hari igare rihaparitse ndetse na moto iri mu muhanda iri kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ikinyabiziga hari imodoka iri kwanyura muri uwo muhanda hari ahantu hateganyijwe kunyura n'abanyamaguru, hino yu wo muhanda hari inzira y'abanyamaguru ku ruhande rw'epfo rw'umuhanda hari akantu gatandukanye uyu muhanda ugendwa muri iki cyerekezo n'undi muhanda ugendwa mu kindi cyerekezo.

Inzira y'igitaka yanyurwamo n'imodoka nibyo ariko ni umuhanda w'igitaka, ku mpande zawo hari inzu ifite urukuta rw'amabuye ndetse iruhande rw'iyo nzu hari umuyoboro unyurwamo n'amazi, ku rundi ruhande rw'iyo nzu hari ibiti.

Ni umuhanda wa kaburimbo ariko uciyemo hasi, hari n'uduciye hejuru hari icyapa cyerekana ugiye ku kibuga cy'indege. Uyu muhanda urerekeza i Nyamata niho icyapa kitwerekeza. Hari inyuguti ya P, icyapa cya P giciyemo akarongo biragaragara ko nta parikingi ntago imodoka zemerewe kuhagarara.

Ifoto y'abana b'abanyeshuri bicaye muri sale, imbere yaho hakaba hari umuyobozi urimo kubaha amabwiriza.

Ni umuhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye hari moto, harimodoka hirya, hari ibinyabiziga bicanye amatara, ku ruhande rwo hepfo hari inzira yagenewe abanyamaguru hari imitaka itandukanye hari inyubako.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, harimo ibinyabiziga bitandukanye, kandi uwo muhanda ugendwa mu byerekezo bitandukanye, ku ruhande rw'ibumoso hari ibiti, hanyuma uyu muhanda ugendwamo n'amagare, ugendwamo n'imodoka, ugendwamo n'amamoto, ndetse hari n'inzira zahariwe abanyamaguru.